Ishuri, abanyeshuri bajya kwigiramo, intebe nazo bazicaraho bazita pipitere, ni ikibaho, haba hariyo n'abarimu babigisha, bakabaha ubumenyi n'uburere bubafasha mu minsi izaza.

Amashuri abanza afite akamaro kenshi, bigamo imikino bigiramo icyongereza, babagaburira amafunguro ya ku manwa, bakoreramo ibintu byinshi.

Abarimu bigisha abanyeshuri mu mashuri abanza ya pirimeri, baba bari ku ishuri tukoherezayo abana, bakajya kwiga. Bakabaha ubumenyi n'uburere buzabafasha kujya mu mashuri yisumbuye, bagakora icya Leta bakagitsinda bakabajyana kwiga ahandi.

Amashuri abanza afite akamaro kanini ku bana b'abanyarwanda kuko bigiramo icyongereza, bafatiramo ikinyabupfura, bigiramo imikino itandukanye kandi bafatirayo ifunguro rya kumanywa.

Uburezi bufasha mu kujijuka, bufasha abize kwihangira imirimo inyuranye, bufasha n'abarimu kubona amafaranga yo kubatunga, uburezi bufasha ubize gupiganwa mu isoko ry'umurimo ahantu hose mu gihugu no hanze y'igihugu.

Mu ishuri higirwa ibintu byinshi: Hari abiga ubuhinzi, hari abiga ubuvuzi. Muri abo biga ubuhinzi bigishwa gutubura imbuto zitandukanye, batubura ingemwe z'ibinyomoro, batubura ibirayi, baha abaturage imbuto bakabafasha kwiteza imbere bakabonamo amafaranga atubutse.

Aho babariza bakoreramo ibikoresho byinshi, babarizamo ameza, babarizamo intebe, bakoreramo amasanduku yo gushyinguramo, kandi ibyo bikoresho byose babitera amarangi.

Amashuri ya kaminuza afitiye akamaro kenshi cyane abanyeshuri. Bigisha ubuhinzi bujyanye n'igihe bakabatoza umuco nyarwanda, yabigisha kwihangira imurimo itandukanye.

Inzu badoderamo, habamo imashini ziteranya imyenda, bagira amamakasi bakatisha imyenda bagira imashini zisifira imyenda, bakora n'ibikapu by'abanyeshuri.

Mu mashuri yisumbuye na za kaminuza bigira ubumenyi bwinshi cyane bigirira akamaro bifashaga kwihangira imirimo itandukanye irimo gukanika amamodoka no gukora amashanyarazi.

Uburezi bugira akamaro kenshi cyane. Butuma uwize atera imbere，bwinjiriza igihugu amafaranga menshi，kandi abantu baba bajijutse， biteza imbere mu bintu byinshi.

Gusudira ni umwuga mwiza cyane, winjiza amafaranga menshi, abasudizi barabyiga, basudiza umuriro, bafite ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi.

Uburezi bagira akamaro gatandukanye, bufasha abana kuvuga icyongereza, abana bigiramo imyuga itandukanye, abana bigiragamo ikinyabupfura, bagashobora no kwiteza imbere.

Mu mashuri bigisha kuvura biga kubaga, biga gukura amenyo, biga kubyaza, biga kuvura indwara zitandukanye kandi biga kwakira abarwayi neza.

Abaganga bakora ku bitaro baratuvura, iyo twarwaye tujyayo bakadusaba ibizamini tukabitanga, bakareba indwara twaba turwaye, maze bakaduha imiti tukajya kuywera mu rugo tugakira.

Kwiga ni byiza cyane, abiga ubwubatsi, biga gukata ibyuma, biga kuvanga isima, biga gutera ikipande, biga gusakara, kandi ibyo byose byinjiza amafaranga, bikabafasha kwitunga.

amashuri yisumbuye n'ay'imyuga agira uruhare rukomeye mu burezi, bigisha icyongereza bigisha imyuga itandukanye, biga gukanika biga gutwara imodoka biga gusudira biga guhinga biga kubaza n'indi myuga yose itandukanye.